Icyumba kigali kiri kuberamo inama, abantu bari muri iyo nama bakaba bafite uducupa turimo amazi yo kunywa ndetse icyo cyumba kikaba gifite inkuta ziteye irangi ry'umuhondo. Kuri icyo cyumba kandi hakaba harimo urumuri rw'umweru ruri kubonesha.

Icyumba kinini gisa nk'aho gikunda kuberamo inama, icyo cyumba kikaba kirimo intebe zo kwicarana nyinshi, hakaba harimo abantu bake bicaye ku ntebe z'umukara bacyicayemo bigaragara ko bari mu nama, icyo cyumba kikaba gifite inkuta ziteye irangi ry'umweru.

Abantu benshi bari hamwe, bari imbere mu nzu, iyo nzu ikaba irimo icyumba bahagazemo ndetse inyuma yabo hakaba hari ibirahuri biri kuri iyo inzu. Icyo cyumba kikaba giteye amarangi mu mpande y'umuhondo, abo bantu bakaba bambaye neza bigaragara ko hari gahunda barimo.

Icyumba kiri kuberamo inama imbere kiriho ibitambaro by'umweru, kikaba kirimo abantu bitabiriye inama bicaye ku ntebe z'umutuku, imbere y'abo hakabah ahagaze umugabo wambaye ikoti ry'ubururu n'ipantalo uri kubagezaho imbwirwaruhame.

Icyumba kiri kuberamo inama, iyo nama ikaba yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye, imbere yabo hakaba hari ameza bakaba bicaye ku ntebe zisa umweru, kuri ayo meza hakaba yarambitse bimwe mu bikoresho bari gukenera muri iyo nama.

Icyumba kigari kiri kuberamo inama, iyo nama ikaba yitabiriwe n'abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru. Abantu bakaba bateze amatwi umuntu ugahaze imbere uri kubagezaho imbwirwaruhame, inyuma ye hakaba hari ibirango biri kwamamaza ibijyanye n'ubukerarugendo.

Icyumba bigaragara ko kiri kuberamo inama y'abantu bari kwiga ku bintu bitandukanye, abitabiriye iyo nama bakaba bambaye udupira tw'ubururu. Imbere yabo hakaba hateretse amazi yo kunywa, ameza akaba arambuyeho ibitambaro by'umweru ndetse n'intebe bicayeho zikaba ziriho udutambaro tw'umweru. Icyo cyumba bari gukoreramo inama kikaba giteye irangi ry'umweru.

Icyapa kigaragaza ibitaro bya police, kikaba kigizwe n'amabara y'umutuku, umweru n'ubururu, kikaba kigizwe n'ibarangantego bibiri hari icy'u Rwanda n'icya police, ik'icyapa kikaba giteye mu busitani.

Umumama wambaye ishati irimo amabara y'umweru n'umukara, wambaye ijipo y'umukara n'inkweto z'umukara, bigaragara ko ari kuvuga imbwirwaruhame imbere. Akaba ari mu cyumba gifite inkuta ziteye irangi ry'umuhondo ndetse muri icyo cyumba hakaba harimo ibirango byamamaza.

Inama iri gukorerwa mu cyumba gifite ibikuta bisa umuhondo. Icyo cyumba kikaba kirimo abantu bitabiriye inama, bakaba bafite ameza y’umukara imbere yabo ateretseho amazi meza yo kunywa, ndetse bakaba bafite amakaye n’amakaramu bari kwandikamo. Akaba ari n’umuntu w’umugabo wambaye ikoti ry’umukara, uri gukoresha telefone.

Sale nini cyane irimo abantu benshi batandukanye bafite mudasobwa imbere zabo, bicaye ku ntebe z'umukara n'ameza y'umutuku imbere yabo bisa n'aho bari mu nama irikwiga ku bintu bitandukanye.

Abantu benshi bahuriye hamwe mu kibuga gisije kiriho ibitaka ndetse inyuma yaho hakaba hari umucaca urimo ibiti. Abo bantu bakaba bakoze uruziga ruhagazemo umuntu wambaye imyenda y'umukara bisa naho ari imbwirwaruhame ari kubagezaho.

Inama yitabiriwe n'abantu benshi batandukanye iyo nama ikaba iri kuberamo umuhango wo kurahira imbere hari abantu bafashe ku idaraporo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse bamanitse amaboko abantu bitabiriye inama bakaba bari mu cyumba kinini kirimo intebe bicayemo z'umuhondo.

Icyumba kiri kuberamo inama, icyo cyumba abantu bitabiriye iyo nama, imbere bakaba bafite amazi yo kunywa ari mu ducupa ndetse imbere yabo hakaba hari ameza afite irangi ry'umuhondo. Hakaba harimo umuntu uhagaze bigaragara ko hari imbwirwaruhame ari kubagezaho, icyo cyumba barimo kikaba gifite urumuri rw'umweru ruri kuhabonesha, ibikuta bikaba biteye irangi ry'umweru.

Abayobozi bari mu nama benshi bafite imashini imbere .Imbere yabo bafite n'amazi mu ducupa twa nile ndetse basa naho bakurikiye umuyobozi uri kubaremesha inama imbere yabo bari muri sare(salle )nini cyane.

Icyumba kigari, kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu benshi, icyo cyumba kikaba kirimo ameza y'umukara ateretseho amazi imbere ya buri muntu ndetse hakaba hari n'impapuro n'amakaramu bari kwandikaho. Icyo cyumba kikaba gifite inkuta ziteye irangi ry'umuhondo ndetse hakaba harimo urumuri rw'umuhondo ruri kuhabonesha.

Inzu irimo abayobozi batandukanye bafite uducupa tw'amazi imbere yabo, duteretse ku meza, umwe akaba yambaye ikoti ry'umukara n'imbere akaba yambaye mo umupira w'umweru, undi akaba yambaye ikoti ririmo amabara y'umukara n'umweru, hanyuma undi akaba afite ishati y'umuhondo.

Inama iri gukorerwa ahantu hasije h'igitaka, iyo nama ikaba yitabiriwe n'abaturage bafite abantu bari kubacungira umutekano, iyo nama ikaba ifite abayobozi bayitabiriye bakaba bicaye ku ntebe z'umweru bicaye ahantu hatwikiriye, inyuma yabo hakaba hari ibiti n'amazu y'abaturage.

Icyumba kinini kiri kuberamo inama y'abayobozi. Abo bayobozi bakaba bicaye ku ntebe z'umukara, bakikije ameza arambitseho uducupa turimo amazi bari kunywa. Icyo cyumba kikaba giteye amarangi asa n'umweru, akaba afite amakaro hasi asa n'umweru. Imbere yabo hakaba hari umuntu uri kuvuga imbwirwaruhame.

Inama iri kuremeshwa n'umuntu wambaye imyenda y'umukara n'inkweto z'umukara akaba ari imbere y'abantu benshi bicaye ku ntebe za kinyarwanda aho hantu bicaye hakaba hari ibiti bihakikije bateze amatwi uwo muyobozi uri kubabwira ibintu runaka .

Abamama batatu bicaye mu cyumba gifite ibikuta biteye irangi ry'umweru, abo bamama imbere yabo hakaba hari ameza arambitseho impapuro bari kwandikaho ndetse bakaba bafite n'amakaramu na terefone imbere yabo, abo bamama bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bisa nkaho hari ibiganiro bari gutanga.

Icyumba cy'inama kirimo abagore batatu n'abagabo babiri bambaye amashati y'umweru. Abagore bicaye ku murongo wabo bateganye n'abagabo. Imbere yabo hari umugabo bateze amatwi, bisa n'aho ari we uyoboye inama.

Icyumba kigari kiri kuberamo inama, icyo cyumba kikaba giteye amarangi y'umweru ndetse hakaba harimo n'urumuri rw'amatara rw'umweru ruri kubonesha muri icyo cyumba. Icyo cyumba kikaba kirimo abitabiriye inama, imbere yabo ku meza hateretse amazi ndetse n'umutobe mu gacupa, ndetse bamwe muri bo bakaba bari kwandika ibiri kuvugirwa muri iyo nama.

Icyumba kirimo abantu batandukanye bakikije ameza imbere yabo ari amacupa arimo amazi yo kunywa ,bigaragara ko bari mu nama bakaba bicaye ku ntebe zisa umukara. Muri icyo cyumba hakaba harimo urumuri rw'umweru ruri kuboneshamo ndetse icyo cyumba kikaba gifite inkuta ziteye irangi ry'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama, iyo nama ikaba yitabiriwe n'abantu benshi bicaye ku ntebe z'umweru, kandi icyo cyumba barimo kinini kikaba giteye amarangi y'umweru mu nkuta ndetse imbere yabo hakaba hasa n'aho hari umuntu uri kuvuga imbwirwaruhame bateze amatwi.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore, kikaba kirimo abantu bari kurema inama, bose barahagaze. Aba bantu imbere yabo hakaba hari ameza ariho igitambaro cy'umweru ndetse n'intebe ziriho igitambaro cy'umweru, icyo cyumba barimo kikaba kirimo urumuri rw'umweru ruri kuhabonesha ndetse iki cyumba kikaba giteye irangi ry'umuhondo.

Inzu y'icyumba kinini, iteye amarangi y'umweru , iyo nzu ikaba iyo kuberamo inama ndetse hakaba yitabiriye abantu. Abo bantu bakaba bicaye ku ntebe ziriho ibitambaro by'umweru ndetse n'ameza abari imbere akaba ariho ibitambaro by'umweru, buri muntu witabiriye iyo nama akaba afite icupa ry'amazi meza yo kunywa imbere ye.

Inama yitabiriwe n'abantu batandukanye benshi muri bo bakaba bambaye imipira y'umuhondo. Aho hantu bicaye hakaba hatwikiriye ku buryo nta mvura yabageraho, ndetse inyuma yabo hakaba hari ibitambaro bifite ibara ry'icyatsi n'umweru.

Icyumba kigari kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu batandukanye, abo bantu imbere yabo bakaba bateretse uducupa tw'amazi yo kunywa, ndetse bamwe muri bo bakaba bafite amakayi n'amakaramu bari kwandikamo ibiri kuvugirwa muri iyo nama, ndetse icyo cyumba barimo kikaba giteye irangi cyumweru.

Icyumba kirimo abantu bigaragara ko ari abayobozi, ku meza yabo hakaba hateretse amazi yo kunywa n'ibitabo ndetse bamwe muri bo bakaba bafite n'ibyuma by'ikoranabuhanga birahambitse, ayo meza akaba asa umutuku, icyumba barimo kikaba giteye irangi ry'umweru ndetse hakaba hari n'amadirishya y'ibirahuri.

Icyumba kinini kiri gukorerwamo inama kirimo abantu bakurikiye uri kubagezaho imbwirwaruhame, aba bantu bakaba bambaye amakoti bicaye ku ntebe zisa umweru, imbere yabo hakaba hateretse ibyo kunywa biri mu macupa n'ibirahuri hanyuma bakaba bafite amakaye n'amakaramu bari kwandikamo biteretse ku meza.

Icyumba kirimo umugabo wambaye ikoti ry'umukara, umugabo imbere ku hateretse amazi yo kunywa ari muducupa inyuma ye haba harirapo ndetse n'ibirango byamamaza yan amagambo atandukanye, icyo cyumba arimo kikaba gifite urukuta ruteye irangi ry'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama, abayitabiriye bakaba bicaye, imbere yabo hariho ameza. Ayo meza ariho amakayi bari kwandikaho ibiri kuvugwa, banafite Igikombe birimo icyo kunywa.

Umugabo wicaye ku ntebe y'umukara uwo mugabo akaba yambaye ikoti ry'umukara ndetse n'ishati y'umweru imbere ye hakaba hari ameza y'umutuku ndetse na terefoni yararambitse inyuma ye hakaba ari ibirango biteye amarangi y'ubururu, icyatsi ndetse n'ubururu bwerurutse.

Icyumba kirimo umumama uri gutanga imbwirwaruhame bigaragara ko ari umuyobozi uwo mumama akaba yambaye ikoti ry'umukara, inyuma ye hakaba hari ibyapa byamamaza kandi hakaba hari igitabo ari gusoma giteretse imbere ye ari kurebamo.

Inama iri kubera mu cyumba gitwikiriye; iyo nama ikaba yitabiriwe n'abantu benshi bicaye bose; inyuma hakaba hari babiri bahagaze bigaragara ko bari gutambuka. Icyo cyumba kikaba gifite urukuta rusa umweru; imbere y'abo bantu hakaba hari ameza ateretseho indabo na terefone.

Ifoto iriho abantu benshi bicaye bateze amatwi bicaye imbere yabo hakaba hari inyubako isakajwe n'amabati y'umutuku ndetse ikaba iteye amarangi y'umuhondo imbere yabo hakaba hahagaze abantu bisa nkaho bari kubabwira cyangwa bari kubagezaho ibiganiro bitandukanye.

Umugabo n'umugore bahagaze, umugore ufite amakaye mu ntoki, umugabo wambaye ingofero ndetse n'umupira w'umukara, bisa nkaho haricyo ashaka kuvuga, inyuma yabo hakaba hari intebe zicaweho n'abantu babiri umugore n'umugabo, inyuma yabo hakaba hari imodoka ndetse n'amazu bigaragara ko hari abayakoreramo.

Icyumba kiri gukorerwamo inama, hakaba harimo abantu bicaye ku ntebe z'umweru, imbere yabo hari ameza y'umweru, bitabiriye iyo nama, imbere hakaba hari umuntu uri kubagezaho imbwirwaruhame, kandi imbere hakaba hari ibirango byamamaza, ndetse bakaba bari mu cyumba kinini, giteye irangi ry'umweru.

Icyumba kiri kuberamo inama yitabiriwe n'abantu b'ingeri zitandukanye abantu bakaba bicaye ku ntebe z'umukara ndetse bakaba bari hafi y'ameza'umukara bateretseho amakaramu n'ibitabo bari kwandika ndetse buri muntu akaba afite amazi yo kunywa meza ari mu gacupa kandi icyo cyumba kikaba gifite inzugi za ribuyu ndetse n'amarangi asa umuhondo.

Umugabo wambaye ishati y'umweru, wambaye n'isaha ku kuboko, uwo mugabo akaba yifashe neza, ari imbere y'abantu bisa naho hari imbwirwaruhame ari kubagezaho. Uwo mugabo inyuma ye hakaba hari ibirango byamamaza, biriho ishusho y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Akaba ari mu cyumba gifite ibikuta biteye irangi ry'umweru.

Umunara muremure usa n'umweru ufite ibyuma biwuriho biteye irangi ry'umweru, uwo munara akaba ari uwitumanaho rya telefone ndetse na radiyo.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo imodoka, ufite amatara yo ku muhanda awucaniye ukaba ku ruhande ufite inzira abanyamaguru bagendamo, hafi yaho hakaba hari icyapa kiri ku giti cyamamaza umuntu utanga ubufasha ku bijyanye n'irembo ndetse n'ubufasha ku bijyanye n'ubutaka.

Urubuga rw'irembo rufite gahunda rwise byikorere. Iyi gahunda ikaba ari iyo gufasha umunyarwada aho yaba ari hose kuba hari ibyo yakikorera kuri uru rubuga akeneye.

Inzu iteye irangi ry'umweru, iyo nzu ikaba isakaje amabati atukura, ku rukuta hakaba hateyeho ibyapa byinshi byamamaza ibikorwa bikorerwa muri iyo nzu, harimo ibijyanye no kubitsa no kubikuza amafaranga ndetse n'ubundi bufasha ku bijyanye na banki.

Amagorofa meza ateye irangi ry'umweru ndetse ariho ibirahuri by'ubururu, ayo magorofa akaba ari mu buryo yegeranye, hafi yayo hakaba hari umuhanda unyuramo abagenzi, ndetse hakaba hari n'ubusitani buhateye bwiza cyane, ayo magorofa akaba ari maremare cyane.

"irembo" ni urubuga rworoheje ubufasha abantu bakenera butandukanye. "irembo" ikaba ifite gahunda yise byikorere, bakaba bari kwamamaza berekana uburyo wakikorera ibintu bitandukanye kuri urwo rubuga.

Urubuga ruboneka ku mbuga nkoranyambaga, urwo rubuga rukaba ruri kwamamaza igihugu cy'u Rwanda, urwo rubuga rukaba ruri kwerekana amashusho y'inyamaswa nziza ndetse n'imisozi myiza irimo ibiti bimeze neza wakwifuza gusura muri icyo gihugu, bikaba bigaragara ko bari kwamamaza igihugu cy'u Rwanda.

Ikigo k'igihugu gishinzwe ibijyanye n'amashamba icyo kigo kikaba ari ik'igihugu cy'u Rwanda ndetse kikaba kirikwerekanwa mu magambo asa umweru ndetse inyuma yacyo hakaba hari amashyamba.

Umunara muremure, uwo munara wubakishije ibyuma biteye irangi ry'umutuku n'umweru, uwo munara ukaba iruhande rwawo, hariho ibintu bimeze nk'isahani, biteye irangi ry'umweru, bifashe kuri ibyo byuma.

Uburyo bw'ikoranabuhanga bwifashishwa mu kwishyura ndetse no kugenzura imisoro ufite, ukaba wabasha kuyishyura mu buryo bw'ikoranabuhanga.

Abanyeshuri bari mu ishuri, bafite mudasobwa imbere, ntoya, bicaye ku ntebe z'ibiti. Bakaba bari mu ishuri risize irangi ry'umweru ku bikuta. Ndatse bakaba bari gukoresha izo mudasobwa.

Umuntu ufite icyuma cy'ikoranabuhanga mu ntoki, ndetse akaba afite na mudasobwa imutereretse imbere akaba ari kuyikoresha ayirebamo. Iyo mudasobwa akaba yayishyizemo intoki.

Umunara muremure ufite ibyuma biteye irangi ry'umweru, uwo munara hepfo hakaba hari ikindi cyuma gihari kirekire nacyo gifite utwuma tw'umweru, tugifasheho, kandi uwo munara ukaba ufite ibintu by'amasahani ku ruhande biteye irangi ry'umweru.

Akazu gakoreramo ibikorwa bijyanye n'Irembo ndetse na banki, bakaba babitsa, bakabikuza amafaranga ndetse bagatanga ubufasha ku bijyanye n'Irembo, ako kazu kakaba gafite imitako imbere ndetse kakaba gakozwe mu biti ndetse kakaba gafite ibirango byamamaza imbere.

Kuri iyi shusho ya gatatu ndabona ibinyabiziga by'abashinzwe umutekano wo mu Rwanda, ikinyabiziga kimwe gifite ikarita y'ikirango k'ibinyabiziga, gifite inyuguti ra na pa nomero magana abiri na makumyabiri na kane na.

Icyumba kirimo abantu babiri, umwe wicaye ku ntebe y'umweru, imbere ye hakaba hari ameza ateretseho igikoresho cy'ikoranabuhanga gisohora impapuro. Imbere ye hakaba hari undi wambaye umupira w'umweru bigaragara ko hari ubufasha yaje gusaba. Uwo muntu urimo akaba akorera Irembo. Akaba ari mu cyumba giteye irangi ry'umuhondo.

Umunara muremure wubatse hafi n'ingo z'abaturage, uwo muhanda ukaba wubakishije ibyuma biteye irangi ry'cyatsi, kuruhande hakaba ari ibikoresho bifasheho biteye irangi ry'mweru.

Inzu ifite imiryango myinshi itandukanye muri iyo miryango harimo iteye irange ry'icyatsi ndetse niteye irange ry'umuhondo inzu nayo ubwayo ikaba iteye amarange y'umuhondo, imbere ikaba ifite icyapa cyiri kwamamaza Irembo ndetse imiryango imwe muri yo ikaba iri kwinjirwamo n'abantu bigaragara ko hari ubufasha bakeneye.

Urubuga rutangirwaho ubufasha butandukanye ari bwo kwaka ibyemezo runaka, uru rubuga rukaba rukora ku mbuga nkoranyambaga ndetse ukaba urukoresha wifashishije ibyuma by'ikoranabuhanga nka mudasobwa n'ibindi.

Ingengabihe y'ikigo gishinzwe uburezi mu rwanda ndetse iyo ngengabihe ikaba ari iy'ama radiyo akorera mu gihugu cy'u rwanda; iyo ngengabihe ikaba iri kwerekana uko buri munsi radiyo izajya inyuzaho amasomo umunsi ku wundi.

Inyubako bigaragara ko itanga serivise zijyanye n'ikoranabuhanga ry'amafaranga cyangwa ry'ibindi bikorwa bitandukanye. Hakaba imbere hari umuntu bigaragara ko hari ubufasha bari kumuha ari kwakira mu ntoki, uwo muntu akaba yambaye umupira usa ubururu n'ipantaro y'umukara, akaba yambaye n'isaha ku kuboko.

Icyumba kinini kirimo ameza ateretseho mudasobwa, izo mudasobwa zikaba ziri mu ibara ry'umukara, hakaba imbere y'ameza hari intebe zicayeho abantu bari gukoresha izo mudasobwa, muri icyo cyumba hakaba hateye amarange y'umweru.

Irembo riri kwamamaza gahunda ryashizeho yitwa byikorere. Aho bashishikariza abantu gukoresha iryo koranabuhanga bishyura cyangwa basababa ubundi bufasha. Hakaba hari umuntu wambaye ikoti uri gukoresha mudasobwa kuri iyo foto.

Umuyoboro muto wifashishwa mu gutwara amashanyarazi abaturage bifashisha bacana mu ngo zabo, uwo muyoboro ukaba unyuze ahantu hateye ibiti bikuze cyane.

Umuyoboro w'amashanyarazi, utanga amashanyarazi mu baturage kugira wacane, ukaba unyura ku muhanda uriho ibirango bibuza cyangwa bimenyesha abatwara ibinyabiziga, iruhande rw'umuhanda hakaba hari ishyamba rihateye n'ubusitani ndetse hakaba hari inyubako zisakaje amabati y'umweru.

Umuyoboro mugari w' amashanyarazi wubakishije ibyuma, uwo muyoboro ukaba uri kunyuraho insinga zishishuye inyuma hakaba hari amashyamba ahateye hafi aho.

Inyubako zubakishije amatafari ahiye, izo nyubako zikaba zisakaje amabati atukura, bigaragara ko zibamo abantu, hafi y'izo nyubako hakaba hanyura umuyoboro muto w'amashanyarazi abaturage, bafatiraho amashanyarazi yo gukoresha mu ngo zabo.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga, hepfo yawo hakaba hari inzira abanyamaguru banyuramo ndetse hakaba hari n'amatara awubonesha mu gihe cya nijoro. Iruhande rwawo hakaba hari ibiti bihateye ndetse hafi aho hakaba hari umuyoboro w'amashanyarazi mugari uhanyura.

Umuyoboro mugari uriho igikoresho cyifashishwa mu kongera umuriro w'amashanyarazi cyangwa kuwugabanya, hirya yacyo hakaba hari inzu iri mu gipangu isakaje amabati atukura ndetse iteye irangi ry'umuhondo, uwo muyoboro aho uri hakaba hakikijwe n'ibiti.

Inyubako zisakaje amabati atukura, izo nyubako akaba ari amagorofa ziherereye ku Gisozi, izo nyubako zikaba ziteye amarangi y'umuhondo ndetse zimwe ziriho ibirango byamamaza imbere kandi hafi aho hakaba hanyura umuyoboro mugari w'amashanyarazi.

Ibiti bitwara amashanyarazi biriho insinga z'umukara hanyuma hakaba hariho mubazi z'abaturage zibabarira umuriro bakoresheje hanyuma inyuma yayo y'ibyo biti hakaba hari inzu iriho ibirango byamamaza imbere yayo .

Umugabo wicaye, wambaye umupira w'umuhondo ndetse n'ipantaro y'umukara, akaba yicaye ahantu hari igitaka, bigaragara ko hari igikorwa cy'ubwubatsi kiri kuhabera. Inyuma ye hakaba hari ibyuma byubatse, bitwara umuriro w'amashanyarazi, wo mu muyoboro mugari.

Umuyoboro muto utwara amashanyarazi ukaba utwariwe ku giti kiriho itara ryo ku muhanda, uwo muyoboro kandi ukaba wegeranye n'igiti ndetse n'indabo ziteye hafi aho inyuma yabyo hakaba hari igikuta giteye irangi ry'umweru.

Moto ihetse umugenzi iri kunyura mu muhanda usanzwe unyuramo ibinyabiziga, uwo muhanda ukaba ari uw'ibisate bibiri ndetse kuri uwo muhanda hakaba hari amazu menshi ahari bigaragara ko ari mu mujyi, uwo muhanda kandi iruhande hakaba hanyura umuyoboro w'amashanyarazi akenerwa n'abaturage.

Iduka riri gukorera mu nzu iteye amarangi y'umweru ndetse yubakishije amatafari ahiye. Iryo duka rikaba imbere hari intebe yo kwicaraho ndetse yegeranye n'ibyo kuryamaho. Kandi iyo nzu ikaba yegeranye n'umuyoboro utwara amashanyarazi ndetse uriho n'itara ricana mu muhanda.

Ahantu hubatse ibyuma by'ikoranabuhanga byinshi, aho hantu hakaba hari sima hasi bigaragara ko hateretse ibintu biremereye, abantu bakaba bahagenzurira umuriro w'amashanyarazi wifashishwa mu bikorwa bitandukanye.

Umuyoboro mugari utwara amashanyarazi yifashishwa mu gucana ibyuma bikoresha umuriro w'amashanyarazi bitandukanye. Uwo muyoboro hafi yawo, hakaba hegereye inyubako ziteye amarangi y'umuhondo ndetse n'umweru.

Umuyoboro mugari w'amashanyarazi utwawe hejuru muri metero zisaga mirongo itatu uwo muyoboro ukaba unyuze ku byuma bikomeye biwufata kugirango utabasha kugwa.

Umuyoboro muto w'amashanyarazi uri ahantu hakorerwa ibikorwa by'ubucuruzi, hari amazu ateye irangi ry'umuhondo ndetse n'indi nzu igeretse inshuro imwe iteye irangi ry'umweru, hegereye umuhanda uri kunyuramo ibinyabiziga, ndetse hakaba hari umukozi w'umurongo w'itumanaho rya Emutiyeni ku muhanda.

Umuntu utwaye igare mu muhanda wa kaburimbo wambaye umupira wumuhondo; iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari umuferege utwara amazi; haruguru y'uwo mu ferege hakaba hari umuyoboro utwara amashanyarazi; haruguru y'uwo muyoboro kandi hakaba hari amazu ahari atuyemo abantu.

Umuyoboro utwara amashanyarazi, uwo muyoboro ukaba uriho itara ryo ku muhanda ribonesha mu muhanda wa kaburimbo mu gihe cya nimugoroba, inyuma yaryo hakaba hari igorofa rinini rigeretse inshuro ebyiri, rikaba riteye amarangi y'umweru ndetse iruhande hakaba hari n'ibiti bihari.

Igiti cy'umukara kinyuzeho insinga zitwara amashanyarazi ndetse n'imbere yaho, hari ikindi giti kinini cy'umukara nacyo gitwaye amashanyarazi, bikaba bite mu murima urimo ibyatsi, imbere y'ayo mapoto y'ibiti, hari umuntu imbere wambaye ibintu by'umukara urigutambuka mu kayira kahegereye.

Umuyoboro muto w'amashanyarazi utwawe ku giti gishinze, ahantu hegereye ibiti, ibyo biti bikaba ari bikuru bisa icyatsi.

Inzira itwikiriye iri kunyuramo abantu babiri bambaye imyenda y'umweru hejuru n'ingofero ndetse batwaye agakoresho karimo utuntu dutandukanye. Hafi aho hakaba hari ubusitani burimo umucaca n'indabo kandi bikaba byegeranye n'amazu bigaragara ko hari ibikorwa bikorera.

Iyi foto irerekana inzu nini cyane isa naho ikorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi ndetse ikaba ifite koridoro, ifite intebe imbere zikaba zicayeho abantu basa nk'aho bategereje serivisi muri ibyo bitaro.

Inyubako ebyiri zegeranye zikaba zubakishije amatafari ahiye izo nyubako zikaba zisakaje amabati atukura, zikaba ziteye amarangi y'umuhondo, inyuma hakaba hateye ibiti ndetse imbere yazo hakaba hari ubusitani buriho indabo.

Igorofa ryiza riri ahantu heza ndetse imbere yaryo hakaba hari ibiti byiza biteye biri hafi n'ubusitani burimo ibyatsi bisa neza ndetse iryo gorofa rikaba riteye amarangi y'umweru ndetse n'umukara imbere yayo hakaba hari aho imodoka zinyura ndetse zinaparika.

Inyubako nyinshi zegeranye zisakaje amabati y'ubururu, zubakishije amatafari ahiye, izo nyubako zikaba zifite urubaraza imbere yazo, imbere yazo hakaba hari ahantu hisanzuye hanyuraho ibinyabiziga cyangwa hakinirwa n'abantu, hakaba hari abantu bicaye hafi aho ndetse imbere y'izo nzu hakaba hari indabo zihateye.

Inzu bisa n'aho aho ari mu ivuriro hari ibyumba bitandukanye hanyuma hakaba hari inzugi z'umuhondo zikinze iyo nzu hanze hakaba hari umuntu utegereje serivisi cyangwa se utegereje kwinjira mu cyumba runaka ngo ahabwe serivisi.

Amazu meza ateye irangi ry'umuhondo, imbere yayo hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'indabo, i ruhande rw'izo ndabo hakaba hari inzira yo kunyuramo isakaye.

Inyubako zegeranye izo nyubako bikaba bigaragara ko ari ibitaro zisakaje amabati atukura ndetse zikaba ziteye irangi ry'umuhondo hafi aho hakaba haparitse imbangukiragutabara zifashishwa mu kujya gufata abarwayi cyangwa kubajyana ku bindi bitaro ibyo bitaro kandi imbere hakaba hari ubusitani burimo umucaca ndetse n'indabo.

Ibaraza ririmo intebe abantu bicayemo ndetse hakaba hari n'imbangukiragutabara itwara abarwayi, iryo baraza rikaba riri ku nzu iteye amarangi y'umuhondo.

Inyubako ziri mu mabara y'umutuku, zikaba imbere yazo haparitse imodoka nyinshi ziri mu mabara atandukanye, ariyo umweru, umukara ndetse n'ubururu, imbere hakaba hari n'ubusitani buhateye harimo indabo n'umucanca, imbere yazo hakaba hari imbangukiragutabara itwara abarwayi.

Icyumba kinini kiri gukorerwamo akazi gatandukanye, icyo cyumba kikaba giteye amarangi y'umweru hakaba hari n'ibitambaro biri hafi n'ibirahure. Iyo nzu ikaba irimo abakozi bicaye ku ntebe bari gukoresha mudasobwa ziteretse ku meza imbere yabo.

Inzu isize amarangi y'umuhondo ndetse n'umukara, afite umuryango munini ufungurirwa habiri. Iyo nyubako mo imbere ikaba iteye amarangi y'umweru ndetse hakaba harimo itara ribonesha muri icyo cyumba. Hakaba hahagazemo abantu ndetse hanze hakaba hari undi muntu uri kuhinjira.

Abagororwa bari kuva mu modoka yari ibapakiye ibazana, iruhande rwayo hakaba hari ababacungiye umutekano, abo bagororwa bakaba bambaye imyenda y'iroza ndetse bose bambaye udupfukamunwa.

Umuntu ukora muri guverinoma, wambaye ikoti ry'umutuku, uri kureba imbere, ufite imisatsi miremire ifunze.

Umugabo wambaye amataratara uri mu cyumba, umugabo akaba afite umusatsi mwinshi usa umukara, akaba yambaye n'ishati isa icyatsi.

Gereza ya Nyarugenge iri kwinjiramo imfungwa ebyiri ,zambaye imyenda y'umuhondo ndetse hanze hakaba hari umuntu ubacungira umutekano ,Iyo gereza ikaba yubakishije amatafari ahiye ndetse ikaba iteye amarangi y'umuhondo.

Icyumba kigari cyicayemo abagororwa, bambaye udupfukamunwa, bambaye n'imiyenda y'iroza, imbere yabo hakaba hari abacamanza, bambaye amakanzu y'umukara n'udupfukamunwa, bicaye no ku ntebe z'umukara ndetse bamwe muri bo bafite mudasobwa imbere yabo, ziteretse ku meza asa n'umuhondo.

Umugabo uri kwisobanura imbere y'imbaga y'abantu bicaye ndetse imbere ye hakaba hari abunzi bicaye bigaragara ko hari ikibazo cye bari kwigaho bashaka kunga n'undi muntu, hafi aho hakaba hari inyubako isakaje amabati y'ubururu ndetse iteye n'amarangi y'ubururu, ku ruhande hakaba hateye ibiti.

Icyumba kirimo abagabo n'abagore, bambaye udutambaro turi mu ishusho y'idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda. Abo bagabo bakaba bafite ameza imbere yabo, abateretse imbere, ateretseho ibitabo n'amakayi bari kwandikamo, bisa n'aho bari mu nama.

Abantu bambaye amaroza b'abagabo babiri bahetse umuntu urambitse hejuru igitambaro cy'umweru, abo bantu bamutwaye akaba ari abagororwa bigaragara ko bari kunyura inyuma y'urukuta rw'ubakishije amatafari ahiye.

Abagororwa bambaye imyenda y'iroza ari benshi bafite ibikoresho byifashishwa mu gukora ibikorwa bitandukanye birimo ingorofani amasuka ndetse n'ibindi bakaba bari inyuma y'igikuta gikikije aho bafungiwe icyo gikuta kikaba cyubakishije amatafari ahiye giteye n'amarangi y'umuhondo.

Umucamanza wambaye ikoti ry'umutuku, rifite ibara ry'umukara rimanuka imbere ndetse akaba yambaye ibirahuri byo mu maso, akaba afite n'imisatsi myinshi, akaba ari inzobe kandi akaba ari igitsina gore.

Urupapuro ruri mu ibara ry'umuhondo rukaba ruriho amagambo yanditse mu ibara ry'umukara; ayo magambo akaba yerekana ko inama y'abaminisitiri yemeje ishyirwaho ry'abayobozi batandukanye.

Icyumba kirimo abantu bafunzwe ndetse bambaye imyenda y'icyatsi, abo bantu bari muri icyo cyumba bakaba bari kumwe n'abasirikari babacungira umutekano, icyo cyumba kikaba giteye amarangi y'umweru.

Igororero rigororerwamo abantu bakoze ibyaha bitandukanye hakaba hazitiye uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, hakaba hari umuryango binjiriramo uteye irange ry'umutuku, hanze hakaba hari abagororwa benshi bambaye imyenda y'iroza.

Abagororwa bari hamwe aba bagororwa bakaba bicaye ahantu inyuma yabo hakaba hari abandi bantu bahicaye hakaba hari n'intebe bigaragara ko hari abantu bari bahicaye abo bagororwa bakaba bambaye imyenda isa n'iroza.

Abagabo batanu bicaye ku ntebe bakaba bambaye udutambaro turi mu ibara ry'idarapo ry'igihu. Imbere yabo buri muntu akaba afite igitabo ari kwandikamo giteretse hejuru y'ameza y'ibiti.

Inama yitabiriwe n'abantu bicaye hantu hari umucanca ,imbere yabo hakaba hari abayobozi bicaye ku ntebe imbere yabo hari ameza . Hakaba hari umuntu uhagaze bigaragara ko ari imbwirwaruhame ari gutanga wambaye ishati y'umweru n'ipantaro y'umweru

Abantu bicaye bakikije ameza y'umukara ariho igitambaro cy'umukara abo abantu bakaba bicaye ku ntebe z'umukara bakikije ayo meza kandi bakaba bari mucyumba kinini giteye amarangi y' yumuhondo.

Imfungwa ihagaze hagati y'abaturage ikaba yambaye imyenda y'iroza, bikaba bigaragara ko hari ibyo iri kubazwa n'aba bantu, ku ruhande hakaba hari abaturage baje kumva ibyo iyo mfungwa iri bwisobanure, bigaragara ko bayiteze amatwi.

Umugabo uri kureba imbere wirabura ufite ubwanwa kandi hejuru akaba yambaye umwenda uri mu ibara ry'umweru, ikindi akaba nta musatsi afite mwinshi.

Ifoto iriho uturwanyamuriro w'amashanyarazi twifashishwa mu kurinda inkongi y'umuriro duteretse hasi.

Umuhanda w'inzira ebyiri ugenderamo ibinyabiziga, ukaba ufite ku ruhande inzira z'abanyamaguru ndetse ukaba ucanirwa n'amatara yo ku muhanda, iruhande rwawo hakaba hari ishyamba rihateye, muri uwo muhanda hakaba harimo abapolisi bashinzwe umutekano wo mu muhanda bambaye imyenda y'umukara.

Inyubako icururizwamo ibicuruzwa bitandukanye, ikaba igeretse rimwe. Imbere yayo hakaba haparitse imodoka ndetse na moto. Hakaba hari n'umupolisi wo mu muhanda, ushinzwe umutekano wo mu muhanda. Uwo muhanda akaba awegereye, akaba ari uwa kaburimbo.

Inzu iteye irangi ry'umweru, ikaba isakajwe n'amabati y'ubururu, ifite idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda imbere yayo. Ikaba izitiwe n'amatafari ahiye ndetse n'ibyuma, iruhande hakaba hari ibiti bihateye imbere, hakaba hari ubusitani ndetse bwegereye akayira kari kugenderamo umuntu.

Abapolisi bari mu kibuga bafite imbunda bambaye imyenda y'umukara n'ingofero z'umukara abapolisi imbere y'abagabo hari umupolisi usa nkaho ubagaragiye ubakuriye bakaba bamuhanze amaso inyuma y'icyo kibuga bariho hakaba hari imodoka n'inyubako ndetse hanyura umuyoboro w'amashanyarazi n'ishyamba .

Ibikoresho byifashishwa mu kurwanya inkongi y'umuriro w'amashanyarazi ishobora kuba iri kwaka mu nzu cyangwa ahandi ibyo bikoresho bikaba biri mu ibara risa umutuku ndetse hakaba hari n'amagambo yanditse ku ruhande.

Akayira k'abanyamaguru ako kayira kakaba kegeranye n'umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye. Ako kayira kakaba gahagazemo umupolisi ucunga umutekano wo mu muhanda, inyuma hakaba hari urukuta rwubakishije amatafari ahiye runini.

Ibikoresho byifashishwa mu kurwanya inkongi y'umuriro w'amashanyarazi cyangwa indi nkongi yatewe n'ibindi bintu bitandukanye. Iki gikoresho kikaba kiri ahantu ndetse kikaba giteye irange ry'umutuku.

Ibikoresho byifashishwa mu kurwanya inkongi y'umuriro w'amashanyarazi, ibyo bikoresho bikaba bifashe ku gikuta giteye irangi ry'umweru, hafi hakaba hari urugi ruteye irangi ry'umweru ndetse aho hakaba hasi hari amakaro.

Ikibuga cy'ibitaka gisije neza gikorerwamo ibizame byo gutwara ibinyabiziga, imbere hakaba hari umupolisi wambaye imyenda y'umukara bigaragara ko ari umunyarwanda umanitse igikumwe imbere y'umuntu utwaye moto wambaye ingofero y'umutuku, icyo kibuga cyikaba kinyuramo ibinyabiziga ari byo moto ndetse n'imodoka, iruhande hakaba hari ibiti n'amazu atuwemo.

Inyubako zegeranye izo nyubako zikaba zikoreramo ikigo cy'igihugu cya Polisi izo nyubako zikaba ziteye irangi ry'umuhondo ndetse imbere hakaba hari ikirango cyerekana ko hakoreramo Polisi y'igihugu imbere y'izo nyubako hakaba hari ubusitani buteyemo indabo n'umucaca.

Abantu benshi batonze umuronko imbere y'inyubako, iyo nyubako ikaba ifite inkingi z'umuhondo ndetse n'ubururu. Abo bantu inyuma yabo hakaba hari ibiti bihateye, ndetse abo bantu bakaba bari ku muronko umwe.

Umuntu wambaye amataratara uri kureba ku ruhande akaba yambaye ikoti ry'umukara, ishati y'umweru, ndetse na karavati inyuma ye hakaba hari umuntu w'imisatsi myinshi uri kureba imbere.

Abayobozi babiri bahagaze imbere y'imbaga y'abantu benshi. Abo bayobozi akaba ari umugabo n'umugore. Umugabo akaba yambaye ishati y'umweru ndetse n'umugore akaba yambaye ishati isa n'iy'umugabo. Umugabo akaba ahagaze afite ingabo mu ntoki ndetse n'icumu, bakaba bahagaze ahantu hatwikiriye.

Ahantu hahuriye abantu benshi cyane, bisa naho bari kwamamaza umukandida w'ishyaka ryabo. Hakaba hari abashinzwe umutekano bambaye ingofero z'umukara ndetse n'imyenda y'umukara ndetse iryo shyaka bikaba bigaragara ko rifite ibirango biri mu ibara ry'umutuku, umwe n'ubururu. Hakaba hitabiriye abantu benshi baje gushyigikira uwo mukandida.

Abagabo batatu bahagararanye bisa naho umwe muri bo uri hagati ari gutanga imbwirwaruhame, inyuma hakaba hariho intebe zisa ubururu bari bicayeho ndetse hakaba n'abandi bicaye inyuma yabo. Imbere yabo hari ameza afite igitambaro cy'umweru. Inyuma hakaba hari ibirango biri kwamamaza ndetse hafi aho hakaba hegereye inzu zikorerwamo n'abantu.

Ihuriro ririho abantu benshi bicaye basa naho bitabiriye inama runaka bakaba bicaye munsi y'igiti hanyuma inyuma y'icyo giti hakaba hari akazu k'umukozi w'itumanaho ako kazu akoreramo kakaba gafite ibara ry'umuhondo.

Icyumba kirimo abamama babiri, abo bamama babiri bakaba bari muri icyo cyumba kiri gutorerwamo abayobozi batandukanye, icyo cyumba kikaba kirimo ubwihugiko bwubakishijwe ibitambaro by'umweru.

Umumama uri kumwe n'abana b'iwe, bakaba bari bicaye ahantu, umwana umwe akaba yambaye ikoti, areba mama we, uwo mwana akaba yambaye n'ishati y'umweru. Undi mwana akaba akikiwe na mama we, bose bakaba bareba imbere yabo.

Abantu benshi bari hamwe, bafite impapuro z'umweru mu ntoki, bamwe bambaye imipira y'umweru abandi bambaye imipira y'ubururu. Imbere yabo hakaba hari abapolisi n'abasirikare bambaye impuzankano zabo ndetse bari kumwe n'abandi bayobozi bicaye imbere. Inyuma yabo hakaba hateye ibiti, hakaba hari n'imodoka n'inyubako.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, bigaragara ko bari mu nama muri icyo cyumba, imbere yabo hakaba hari ameza ndetse bicaye ku ntebe zisa umukara, iki cyumba kikaba giteye amarangi y'umweru mu nkuta.

Icyumba kinini kirimo abantu basa naho bakorera umuryango umwe bafite impapuro barimo barasoma bisa naho hari ibyo bari kuganiraho. Abo bantu hakaba harimo abambaye imipira ihuje amabara ndetse isa.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, abo bantu inyuma yabo hakaba hari ibyapa byamamaza ndetse inyuma yabo hakaba hari n'amadarapo ahari ahamanitse, imbere yaho hakaba hari ameza ndetse imbere ya buri muntu hakaba hari akadarapo gato, icyo cyumba barimo kikaba gifite inkuta zisa umuhondo.

Abantu benshi bambaye imyenda bamwe ihuje ibara, abandi bidahuje ibara ndetse bakaba basa n'aho bashyigikiye ishyaka runaka, abo bantu bakaba bari ahantu hari amazu inyuma yabo hakaba hari n'ibiti bihateye ndetse n'amazu atuyemo abantu.

Abantu benshi bahuriye hamwe bambaye amashati y'umweru n'ingofero, bakaba bamwe muri bo bafite ibyapa byamamaza, bikaba bigaragara ko hari ishyaka bashyigikiye bari kwamamaza aho ngaho.

Abantu babiri bahagaze umwe ni umudamu, undi ni umugabo bigaragara ko hari abantu imbere bandi bari kureba, bari kubaha ibyo bashaka. Hejuru yabo hakaba hari amatara abiri amuritse.

Abantu benshi bahuriye hamwe, abo bantu bakaba bafite utudarapo duto turiho ibirango bya efuperi mu mabara, umutuku, umweru n'ubururu. Ndetse hagati yabo hakaba hari umukandida wiyamamazaga w'iryo shyaka akaba ari we Poro Kagame ubu uyoboye igihugu cy'u Rwanda.

Umumama wambaye ishati y’ubururu, bigaragara ko ari mucyumba kiri kuberamo inama, inyuma ye hakaba hari abandi ba mama bigaragara ko bamukurikiye, inyuma hakaba hari icyapa cyanditseho amagambo yo mu ibara ry’umweru, ndetse icyo cyapa kikaba gifite amabara y'ubururu.

Icyumba kirimo abantu batandukanye, bigaragara ko bari gutangiramo ubufasha ku bijyanye no gutora, kikaba kirimo umuntu bigaragara ko yaje gufashwa ngo abone uko atora, hakaba harimo inkuta ziriho ibitambaro biri mu ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Ibyapa by'umweru bifatanye biriho amafoto y'abagabo bambaye amakoti n'amashati y'umweru ndetse na karuvati bari kureba imbere. Inyuma y'ibyo byapa hakaba hari amazu y'abantu n'imodoka ndetse n'ishyamba.

Umuyobozi wicaye wambaye ikoti ry'umukara n'ishati y'umweru na karuvati y'umukara, bisa naho ari gukoresha igikoresho cy'ikoranabuhanga afotora, akaba yicaye ku ntebe y'umukara ndetse inyuma ye hakaba hari n'abandi bantu bicaye bafite n'amazi imbere yo kunywa, bigaragara ko bari mu nama.

Icyumba kiri kuberamo indahiro z'abayobozi ndetse abo bayobozi bakaba bari imberere. Bakaba ari umugabo n'umugore bose bakaba bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda ndetse bakaba bamanitse ukuboko bigaragara ko bari kurahira.

Ifoto iriho umuyobozi uri imbere y'itangazamakuru, wicaye ku ntebe y'umukara, ufite mayikorokone z'ibinyamakuru bitandukanye, imbere yiwe n'idarapo ry'igihugu akorera iruhande rwiwe.

Batonze umurongo ari benshi bisa naho hari serivisi bagiye gukorerwa, hanyuma inyuma yabo hakaba hari ibiti bihateye bikuru.

Abagabo babiri bahagaze mu cyumba, inyuma yabo hari ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, uwo mugabo umwe akaba ari umusirikare wambaye n'ingofero, undi akaba yambaye ikoti n'ishati y'umweru ndetse na karuvati.

Umugabo wicaye ku ntebe, uwo mugabo akaba yambaye ikoti ry'ubururu na karuvati, ndetse akayambaye ishati y'umweru, uwo mugabo akaba ari kureba imbere ye, ndetse akaba afite umusatsi mwinshi.

Icyumba kirimo umugabo wicaye ku ntebe, uwo mugabo akaba yambaye ikoti ry'ubururu karuvati y'ubururu n'ishati y'umweru, inyuma ye hakaba hari igishushanyo gishushanyijemo ikirango cy'igihugu cy'u Rwanda, imbere yabo hakaba kamuteretse ikirahuri cy'amazi.

Abagabo n'abagore bafashe ku idarapo ry'igihugu cy'u Rwanda, bamanitse amaboko bisa n'aho bari kurahira; bakaba bari mu cyumba hasi kipavomye ndetse ku ruhande hariho inkuta ziriho ibishushanyo bitandukanye.

Imodoka iri mu muhanda wa kaburimbo, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari akayira kagenderamo imodoka, iyo modoka ikaba iteye irangi ry'ubururu ikaba itwara imizigo imbere yayo hakaba hari izindi modoka zirigendera muri uwo muhanda wa kaburimbo kandi hepfo y'umuhanda wako hateye ibiti.

Imihanda ya kaburimbo y'ibisate bibiri ikaba iri kunyuramo moto kuruhande rumwe ,kurundi ruhande ikaba iri kunyuramo imodoka, uwo muhanda ukaba ufite ubusitani hagati buteyemo umukindo ndetse n'amatara awucanira uwo muhanda, hafi y'umuhanda hakaba hari inyubako ndetse n'ibiti bihateye.

Abantu babiri bari kugendana n'undi umwe imbere yabo umwe muri bo akaba ahetse igikapu yambaye n'umupira w'umukara bakaba bari kugenda iruhande rw'inyubako ikikije ibyuma ndetse iyo nzu ikaba iteye amarangi y'icyatsi n'umweru iruhande rwayo hakaba hari ibiti bihari ndetse n'imodoka.

Aho abagenzi bajya gufatira imodoka zo kugendamo zibakura ku byerekezo bimwe zibajyana ku bindi byerekezo, aho hafi hakaba hari inzu ushobora kuguriramo ibintu bitandukanye wakwifashisha mu rugendo, hakaba harimo n'abantu bakeneye serivisi zigendanye n'ingendo zitandukanye.

Umuhanda w'ibisate bibiri uri ugenderamo imodoka ifite ibara ry'umutuku, iyo modoka ikaba itwara imizigo iruhande rwayo hakaba hari na moto itwawe n'umuntu wambaye ingofero y'umutuku hanyuma iruhande rw'umuhanda hakaba hari umuferege utwara amazi hepfo y'umuhanda hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga, ukaba uri kunyuramo imodoka itwara abagenzi mu buryo bwa rusange iteye irangi ry'umweru, hepfo yayo hakaba hari igare riri kuhanyura, haruguru y'umuhanda hakaba hari umuferege utwara amazi, hepfo hakaba hari ibiti bikikije umuhanda.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo moto zikorera imizigo, haruguru y'umuhanda hakaba hari inzira inyuramo abagenzi b'amaguru ndetse no hepfo ikaba ihari. Hepfo yawo hakaba hari ibiti bihateye ndetse haruguru yawo hakaba hari umuferege utwara amazi.

Umuhanga wa kaburimbo uri kugendamo moto itwaye umugenzi. Iruhande hakaba hari umuferege utwara amazi, ndetse hagati hakaba hari imikindo ndetse n'ubusitani. Hepfo yayo hakaba hari undi muhanda wa kaburimbo, ndetse ukaba ufite amatara yo ku muhanda, awucanira.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo igare ndetse na moto yikorera imizigo iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru hepfo y'uwo muhanda hakaba hari inzira y'abanyamaguru ndetse n'ibiti biteye hepfo yuwo muhanda binini bikuze .

Ikamyo iri mu muhanda, itwara imizigo, hejuru ika ifite ihema risa ubururu, ikaba itwaye imizigo iri mu mifuka y'imyeru ikaba irikugendera mu muhanda w'ibisate bibiri hagati hakaba haciyemo umurongo w'umuhondo, i ruhande rw'uwo muhanda hakaba hateye ibiti bikuze.

Umuhanda urimo ikamyo itwara imizigo ifite amabara y'umuhondo, n'umweru. Iyo kamyo imbere yayo hakaba hari ibindi binyabiziga biri kugenda, ndetse n'igare rihetse umugenzi. Iruhande rw'umuhanda hakaba hari inzira inyuramo abagenzi, ndetse iruhande rw'umuhanda haruguru hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo ufite inzira abanyamaguru banyuramo, hakaba haparitse imodoka ndetse hakaba haparitse n'umuyonzi unyonga igare, wambaye umupira w'umuhondo, n'ipantaro y'umweru akaba imbere ye hari undi mugabo wambaye umupira w'umuhondo uwo muhanda ukaba ku gice cyo hepfo hari ibiti bihateye.

Ikamyo nini iteye irangi ry'umutuku iri kunyura mu muhanda wa kaburimbo, haruguru yayo hakaba hari kunyura igare, haruguru yayo hakaba hari akayira kanyuramo abanyamaguru, hepfo yayo hakaba hari ibiti bihateye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kunyuramo imodoka yikorera imizigo ifite irangi ry'umweru, hafi aho hakaba hari n'izindi modoka ziparitse nazo zifite irangi ry'umweru. Hafi aho hakaba hari n'aho imodoka zijya kunesherezwa.

Umuhanda w'ibisate bibiri uri kunyuramo imodoka y'umweru itwara abagenzi, hepfo yayo hakaba ari kunyura imodoka ntoya igendamo abantu, hepfo y'umuhanda hakaba hateye ibiti. Haruguru y'umuhanda hakaba hari umuferege utwara amazi.

Imodoka iteye irangi ry'umweru, iyo modoka ikaba iri kugendera mu muhanda wa kaburimbo, imbere yayo hakaba hari inyubako zihubatse iruhande rw'uwo muhanda.

Imodoka zitwara abagenzi mu buryo bwa rusange, izo modoka zikaba ziparitse ahantu hanini hari ikibuga kirimo sima. Hakaba, hakaba hari n'abantu bari kugendagenda iruhande rw'izo modoka bigaragara ko harimo abakeneye kuzitega ngo zibererekeze mu byerekezo bashaka kugendamo.

Umuhanda w'ibisate bibiri wa kaburimbo, uri kunyuramo moto ihetse umugenzi, uwo muhanda ukaba hepfo yawo hanyura umuyoboro w'amashanyarazi utwarwa ku mapoto y'ibiti ndetse uwo muhanda ukaba ufite amatara yo ku muhanda awucanira, hafi y'umuhanda hakaba hari n'ibiti.

Inzu iherereye ahantu imbere yayo hari umuhanda w'ibisate bibiri, uwo muhanda imbere ukaba uriho imodoka itwara imizigo nini ndetse uwo muhanda uka uri kugenderamo na moto itwaye umugenzi iyo nzu ikaba ifite icyapa imbere cyamamaza ikigo gikorera muri iyo nyubako.

Ikamyo iri mu muhanda w'inzira ebyiri; ikaba iri kujya mu cyerekezo imbere yayo hakaba hari indi kamyo iri kuhaturuka mu yindi nzira; iruhande rw'uwo muhanda wa kaburimbo ibyo binyabiziga biri kunyuramo hakaba hari inzira y'abagenzi bagenda n'amaguru ndetse ku kindi gice hakaba hateye ibiti.

Ipikipiki iri kugendera mu muhanda umwe n'imodoka igenderamo abantu iyo moto ikaba ikurikiwe n'izindi moto ebyiri hanyuma nyuma yizo moto ebyiri hakaba hariho imodoka y'umutuku izikurikiye ibyo binyabiziga byose bikaba biri kugendera mu muhanda w'umukara ukikijwe n'ibiti hanyuma uwo muhanda uka uciyemo imirongo y'umweru.

Umuhanda w'ibisate bibiri uri kunyuramo imodoka y'umukara, na moto itwawe n'umumotari wambaye ikoti n'ingofero, inyuma y'ibyo binyabiziga byombi hakaba hari indi moto itwaye umugenzi; umuhanda ukaba ufite imirongo y'umweru ku ruhande ndetse n'umuhondo mo hagati, ndetse iruhande rw'uwo muhanda akaba ari ubusitani n'umukindo

Moto ihetse umugenzi iri mu muhanda itwawe n'umumotari wambaye ingofero y'umutuku n'ijire irimo amabara y'umuhondo n'ubururu, imbere yiwe hakaba hari imodoka itwara abagenzi mu muhanda ari kwerekezamo.

Abamotari baparitse moto ari benshi ahantu hamwe begeranye. Ahantu hakaba hegereye umuhanda wa kaburimbo mubisate bibiri inyuma y'aho hakaba hari inyubako zihari ndetse nyuma y'izo nyubako hakaba hari umusozi uriho ishyamba.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga, ukaba ufite imirongo iteganye iwuciyemo y'umweru. Uwo muhanda ukaba uri kunyuramo moto itwawe n'umumotari wambaye ingofero y'umutuku. Hafi y'uwo muhanda hakaba hari ibiti bihateye n'ubusitani, ndetse inyuma hakaba hari inyubako y'igorofa ihubatse nziza cyane.

Imodoka ifite amabara y'umweru iyo modoka ikaba iparitse ku ruhande rw'umuhanda wa kaburimbo uwo muhanda ukaba unyura hafi y'inyubako zubatse ndetse iruhande rwawo hakaba hanyura umuyoboro w'amashanyarazi uwo muhanda uka ufite n'inzira abanyamaguru banyuramo.

Imodoka ifite ibara ry'umweru iparitse ahantu hari igitaka, ikaba iparitse imbere y'igipangu gituyemo abantu ndetse gifite amatara ku ruhande kikaba gikikijwe n'ibiti.

Umuhanda w'ibisate bibiri uri kugenderamo imodoka mu byerekezo bitandukanye, izo modoka zose zikaba zifite amabara y'umweru. Iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari umutwazi w'igare utwaye imizigo kuri iryo gare, ndetse uwo muhanda iruhande hakaba hari umuferege utwara amazi. Hepfo k'urundi ruhande hakaba hateye ibiti.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kugendamo imodoka, iteye irangi ry'umweru itwara abagenzi mu buryo bwa rusange ndetse na moto zitwaye abagenzi. Uwo muhanda haruguru hakaba hari, inzira y'abanyamaguru no hepfo kandi uwo muhanda ukaba ufite amatara yo ku muhanda awucanira ndetse hepfo hakaba hegereye ibiti.

Abantu bari mu mujyi, bicaye ku ntebe hanze hari ibiti amahumbezi, hakaba hari umuhanda uwo mujyi ukaba urimo inyubako zigeretse ndetse ziteye irangi ry'umweru n'izindi inyuma yaho ziteye irangi ry'umuhondo n'abantu bari kugenda batambukaho mu muhanda.

Ikibuga gikinirwamo umupira, kikaba kizitiye, icyo kibuga kikaba kirimo abakinnyi bambaye imyambaro isa umuhondo, umutuku, umweru ndetse n'ubururu. Icyo kibuga kikaba gifite umwanya ku ruhande w'abafana usakaye, inyuma yacyo hakaba hari ibiti bihakikije.

Sitade ikinirwamo imikino itandukanye, iyo sitade ikaba ifite aho abafana bicara ndetse hasakaye, hakaba harimo inkingi zifashe amabati ziri mu mabara y'icyatsi, umuhondo ndetse n'ubururu. Aho hantu bicara hakaba hateye irangi ry'umweru ndetse hirya hakaba hari inzu ihari.

Ikibuga kinini gikinirwamo imikino kikaba gikinirwamo umukino w'amaboko, icyo kibuga kikaba giciyemo imirongo y'umweru. Hafi hakaba hari ibiti bihakikije ndetse n'akazu gasakaye.

Imodoka iparitse ahantu hakoze neza, iruhande hari indabo ndetse n'umusitani, imbere yaho hakaba haparitse moto. Inyuma y'ibyo byosa hakaba ho hari ibiti bihateye, bikuze.

Ikibuga gikinirwamo umupira w'amaboko, icyo kibuga kikaba giciyemo imirongo iri mu ibara ry'umweru. Icyo kibuga kikaba gikikijwe n'ibyuma ndetse hakaba hari akazu kabo abantu bicara baje kureba imikino ibera muri icyo kibuga ndetse iruhande hakaba hari icyapa kiri mu mabara y'ubururu.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, kikaba gifite ikirango cy'umukara, icyo cyapa kandi kikabagifite ubuso buri mu ibara ry'umweru.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umweru kikaba gifite amagambo yanditse mu ibara ry'umweru kikaba gifite ubuso buri mu ibara ritukura icyo cyapa inyuma yacyo hakaba hari ishyamba ndetse n'ibyatsi biri muri iryo shyamba hakaba hari n'uruzitiro rw'indabo .

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku icyo cyapa kikaba gifite ibirango biri mu ibara ry'umukara biri mu buso buri mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, kikaba gifite n'ikirango kiri mu ibara ry'umukara, ndetse n'ikindi kirango kiri mu ibara ry'umutuku, icyo cyapa kikaba gifite ubuso buri mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa gifite umuzenguruko utukura, gifite ikirango kiri mu mabara y'umukara icyo kirango kikaba kinyuzemo umurongo utukura ndetse icyapa kibaba gifite ubuso bw'umweru.

Ibyapa byerekana agace k'aho hantu. Bikaba ari ibyapa inyuma yabyo bigaragara ko hari inyubako ihubatse ndetse hakaba hari n'ibiti biteye inyuma y'icyo cyapa.

Umuhanda w'inzira ebyiri urimo imirongo y'umweru iteganye, iruhande hakaba hari amatara awucanira mu gihe hari umwijima, iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ishyamba ririmo ibiti kandi hariho n'icyapa cyerekana ko winjiye mu karere ka Rusizi, iruhande hakaba hari umuyoboro utwara amashanyarazi.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara. Icyo cyapa kikaba gifite ikirango kiri mu ibara ry'umukara, ndetse icyo cyapa kikaba gifite ubuso buri mu ibara ry'umuhondo.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara kikaba gifite ikirango kiri mu ibara ry'umukara ndetse icyo kirango kikaba kiri mu buso bufite ibara ry'umuhondo.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku kikaba gifite ikirango kiri mu mabara abiri umutuku ndetse n'umukara icyo kirango kikaba kiri mu buso bw'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga bitandukanye ukaba ufite ubusitani hagati ndetse buteyemo imikindo kandi hakaba hari n'ibyapa bihari bifite umuzenguruko w'umweru, ikirango cy'umweru ndetse n'ubuso bw'ubururu, hafi aho hakaba hari inyubako zihubatse.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, kikaba gifite ibirango bibiri kimwe kiri mu ibara ry'umukara, ikindi kiri mu ibara ry'umutuku. Icyo cyapa kikaba gifite ubuso bw'umuhondo.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umukara, kikaba gifite ikirango kiri mu ishusho y'umukara, ubuso bukaba bufite ibara ry'umuhondo.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, icyo cyapa kikaba gifite ikirango cyanditse mu mabara y'umweru, icyo kirango kikaba gifite ubuso buri mu i ibara ry'umutuku.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, icyo cyapa kikaba gifite ikirango kiri mu mabara y'umukara ndetse kikaba gifite ubuso bw'umuhondo.

Icyapa kiri mu muhanda kiri mu ishusho ya mpandeshatu, icyo cyapa kikaba gifite umuzenguruko uri mu ibara ry'umutuku ndetse kikaba gifite igishushanyo kiri mu bara ry'umweru, kikaba giteye hafi y'umuhanda unyuramo imodoka ndetse ufite amatara awucanira.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo umurongo w'umweru hagati. Uwo muhanda iruhande hakaba hari icyapa cyerekana ko hafi aho hari ibiro by'umurenge wa Giheke. Uwo muhanda kandi hepfo hakaba hari umuntu uri kuhatambuka, uri kugenda n'amaguru.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umweru, icyo cyapa kikaba gifite ibirango byanditse mu ibara ry'umweru ndetse icyo kirango kikaba gifite ubuso buri mu ibara ry'ubururu.

Icyapa gifite umuzenguruko w'umutuku, kikaba gifite ikirango kiri mu mabara y'umukara. Icyo cyapa kikaba gifite ubuso bw'umweru, munsi hakaba hari ikindi cyapa kiri mu ibara ry'umweru ndetse kifite ibirango by'umukara n'amagambo.

Inzu iherereye kanombe iyonzu ikaba iteye amarangi y'umweru, iyonzu kandi ikaba ifite uruzitiro rwubakishije amatafari ahiye, inyuma yayo hakaba hari ubusitani burimo ibyatsi.

Inyubako nyinshi zubatse ahantu zegeranye zikaba zimwe zisakaje amabati atukura, ubururu n'umukara ndetse n'umweru. Izo nzu zikaba zubatse neza ndetse hakaba hari n'ibiti birimo hagati yazo bigaragara ko zituwemo n'abantu ari ku mudugudu.

Ibyatsi biteye imbere y'igipangu cyubakishije amatafari ahiye, ndetse muri ibyo byatsi hakaba hateyemo ibiti. Icyo gipangu kikaba gikikije inyubako igeretsse inshuro imwe, iyo nyubako ikaba iteye amarangi y'umweru.

Inzu y'igorofa yanyanditseho, imbere igaragara ko ari umurenge wa kimironko. Imbere ikaba ifite ubusitani burimo indabo, ndetse n'ibiti bitanga umwuka mwiza hafi aho y'iyo nzu.

Ahantu hari inzu nyinshi zegeranye izo nzu zikaba zifite amabati ari mu ibara ritandukanye hamwe n'ubururu kandi n'umutuku, ndetse izo nzu zikaba zinyuramo hagati umuhanda bigaragara ko hari n'ibikorwa byegereye uwo muhanda bijyanye n'ubwubatsi.

Inyubako iteye amarangi y'umweru, imbere yayo hakaba hari umuntu uhahagaze. Iyo nyubako ikaba yubakishije amatafari ahiye abengerana y'umuhondo ndetse hasi hakaba hari inyubako bigaragara ko itubatse neza.

Igorofa rinini rigeretse inshuro eshatu, iryo gorofa rikaba rifite aho imodoka ziparika imbere yayo, iyo gorofa ikaba iri mu mabara y'umweru n'umuhondo, hakaba hariho ibyapa imbere byamamaza, hari icyapa cyanditseho vovo mu mabara y'umutuku, kikaba ari icyapa giteye irangi ry'umweru.

Umuhanda uri hagati y'inyubako, uwo muhanda ukaba uri gutambukaho abantu ndetse n'imodoka na moto, uwo muhanda kandi ukaba wegeranye n'amazu bigaragara ko hari ubucuruzi cyangwa ibindi ibikorwa bikorerwa muri ayo mazu.

Umuhanda w'igitaka unyuramo ibinyabiziga, uwo muhanda ukaba wegereye inyubako ikikijwe n'ibikuta, byubakishije amatafari ahiye, hirya yabyo haba haparitse imodoka zikurikiranye, hateye ibara ry'umweru n'umukara, kandi iruhande hakaba hari moto iparitse hafi y'icyo gikuta.

Inyubako iteye irangi ry'umweru ifite itara riyicanira hanze ikaba ifite ibaraza riteyeho intebe n'ameza handi iruhande rwayo hakaba haparitse imodoka isa umweru hanyuma iyo nzu ikaba ikikijwe n'ibiti ndetse n'indabo ziri mu busitani.

Ubusitani buherereye Kanombe, inyuma yabwo hakaba hari inyubako iri mu mabara y'umweru, ikaba ari igorofa igeretse inshuro eshatu, muri ubwo busitani hakaba harimo ibiti ndetse n'ibyatsi.

Igorofa rigeretse inshuro enye rikaba rifite ibyumba bitandukanye bikorerwamo n'imishinga itandukanye imbere y'iyo miryango hakaba hariho icyapa cyerekana umushinga ukorera muri buri cyumba imbere y'iyo nyubako hakaba hari igiti cyateye.

Amazu menshi yegeranye, akurikiranye, ateye irangi ry'umweru, hepfo y'ayo mazu hakaba hari umurima urimo ibyatsi ndetse n'ibiti ariko bigaragara ko hari ibikorwa biri kuhakorerwa bijyanye n'ubwubatsi, ndetse munsi yayo hakaba hari indi nzu iteye irangi ry'mweru ihari.

Umuhanda uri hafi y'inyubako ifite urizitiro ndetse n'umuryango mugari uyinjiramo, iyo nyubaka ikaba isakaje amabati atukura ndetse ikaba iteye irangi ry'umuhondo. Hafi yayo hakahanyura umuyoboro wamashanyarazi ndetse umuhanda ur'imbere hakaba hari umuntu uri kuwutambukamo.

Igipangu gikikije inzu isakaje amabati atukura icyo gipangu kikaba kiriho amatara abonesha muri iyo nzu, ndetse iruhande hakaba hari umuryango mugari winjiramo abantu ndetse n'ibinyabiziga uwo muryango ukaba usa umukara ndetse imbere y'ibyo bipangu hakaba hateye ubusitani ndetse inyuma hakaba hari andi mazu atuwemo n'abantu.

Inyubako iteye amarange y'umweru, iyo nyubako ikaba imbere ifite ikirango kiriho inzoga yitwa gatanu bigaragara ko bari kuyamamaza. Iruhande rwiyo nzu hakaba hari ibiti bihari byinshi inyuma yayo.

Umuhanda wa kaburimbo unyuze iruhande rw'amagorofa ageretse inshuro ebyiri. Ayo magorofa akaba afite ubwinjiriro buriho urugi rw'umukara. Aya magorofa akaba ateye amarangi y'umweru n'umuhondo. Ayo magorofa imbere ku bwinjiriro hakaba hateye indabo.

Umuhanda wa kaburimbo uw'inzira ebyiri unyura imbere y'inzu z'amagorofa zigeretse inshuro ebyiri, iyo nzu ikaba ifite amarangi y'umweru ndetse n'umutuku, iruhande rwayo hakikijwe n'izindi nyubako ziri mu marangi y'umweru n'indi iri iruhande itaruzura.

Umuhanda wa kaburimbo ugendamo ibinyabiziga bitandukanye, ukaba uciyemo imirongo y'umweru iteganye ndetse aho hantu hakaba hahurira imihanda ituruka mu byerekezo bitandukanye, ku ruhande hakaba hari inzira abagenzi banyuramo b'amaguru ndetse hakaba hari n'amatara abonesha muri uwo muhanda mu mugi...

Umuhanda w'ibisate bibiri aho buri muhanda werekeza mu cyerekezo cyawo ndetse uwo muhanda ukaba uciyemo imirongo y'umweru iteganye, hafi y'iyo mihanda hakaba hateye ishyamba ririmo ibiti, iyo mihanda ikaba iri kunyuramo ibinyabiziga bitandukanye ndetse ukaba wegereye ubusitani.

Umuhanda wa kaburimbo w'ibinyabiziga moto, amagare ndetse n'imodoka, uwo muhanda ukaba hagati uciyemo imirongo y'umweru itegenaye ndetse hakaba n'ibiti biri iruhande y'umuhanda, hakaba hari n'akayira abanyamaguru banyuramo kuruhande rwo hepfo.

Umuhanda wa kaburimbo uciyemo imirongo y'umweru iteganye , uwo muhanda iruhande hakaba hari akayira abanyamaguru banyuramo ndetse mu umuhanda hafi yawo hakaba hari ishyamba rihateye.

Umuhanda w'ibice bibiri unyurwamo n'ibinyabiziga, ukaba ufite amatara ku muhanda awucanira kugira ngo auboneshe muri uwo muhanda, uwo muhanda hepfo yaho hakaba hari ibiti ndetse hakaba haruguru yaho hari inzira abanyamaguru banyuramo ndetse hakaba hananyura umuyoboro mugari utwara amashanyarazi.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo imodoka na moto, hakaba hepfo hari inzira inyuramo abanyamaguru, ndetse hakaba hari n'amatara abonesha muri uwo muhanda, hepfo hakaba hari ibiti biteye hafi y'umuhanda ndetse hakaba hari akazu abagenzi bicaramo bategereje imodoka k'ubururu.

Umuhanda w'ibyerekezo bitandukanye ufite ihuriro ry'iyo mihanda yose, iyo mihanda ikaba iri kunyuramo moto zitwara abagenzi ukaba ucaniwe n'amatara yo ku muhanda iruhande rw'uwo muhanda hakaba hatuye abantu ndetse hakaba hateye n'ibiti bikuruze.

Ikibuga gisije kirimo kaburimbo ndetse icyo kibuga kikaba kirimo moto n'imodoka, hakaba hari n'amatara acana kuri icyo kibuga, inyuma yacyo hakaba hari ishyamba rihateye ririmo ibiti.

Ihuriro ry'imihanda ya kaburimbo, iyo mihanda ikaba inyuramo ibinyabiziga bitandukanye, harimo imodoka, moto, kandi iyo mihanda ikaba yegereye inzu z'abaturage ndetse n'ibiti bihateye, uwo muhanda ukaba uri kunyuramo imodoka isa ubururu n'umweru, na moto zitwara abagenzi.

Imihanda ibiri ya kaburimbo. Umuhanda umwe ukaba unyura hejuru y'undi; uwo hasi ukaba uri kugendamo ibinyabiziga aribyo; imodoka ndetse n'igare rihetse umugenzi. Uwo muhanda hasi hakaba hari inzira inyuramo abanyamaguru, ndetse hafi aho hakaba hari ibiti bihegereye.

Umuhanda wa kaburimbo uri kugendamo ibinyabiziga bitandukanye ari byo moto ebyiri zitwaye abagenzi, uwo muhanda ukaba uri ahantu hahurira imihanda myinshi itandukanye, iruhande rw'uwo muhanda ukaba ari ishyamba riteye ndetsemo hagati hakaba harimo ubusitani n'imikindo.

Imihanda ibiri y'ibisate bibiri iri kunyuramo ibinyabiziga hagati y'iyo mihanda hakaba harimo ubusitani buteyemo imikindo, ndetse iyo mihanda ku ruhande hakaba hariho inzira abagenzi banyuramo bagenda n'amaguru .

Umuhanda wa kaburimbo uwo muhanda hagati hakaba hanyuramo imirongo y'umweru iteganye ndetse uwo muhanda ukaba ufite inzira y'abanyamaguru ku ruhande, uwo muhanda ukaba wegeranye n'indi mihanda ya kaburimbo inyura ahantu hari inyubako y'igorofa iteye amarangi y'umweru.

Umuhanda wa kaburimbo unyuramo ibinyabiziga, uwo muhanda ukaba mo hagati hariho ubusitani burimo icyuma gishinzwe kugenzura ibijyanye n'umuvuduko w'ibinyabiziga by'ikoranabuhanga, Kandi iruhande rw'umuhanda hakaba Hari ubusitani burimo ibyatsi ndetse n'ibiti bihegereye.

Umuhanda wa kaburimbo, uri kunyuramo ikinyabiziga cya moto gitwara abagenzi. Kikaba gitwawe n'umuntu wambaye ingofero y'umutuku, haruguru y'uwo muhanda hakaba hateye ibiti, ndetse hakaba hari n'itara rimurika kuri uwo muhanda mu gihe bwije.

Umuhanda w'ibisate bibiri uri kugenderamo ibinyabiziga. Uwo muhanda ukaba uciyemo umurongo ucagaguye w'umuhondo hagati. Iruhande rw'uwo muhanda hakaba hari ishyamba, ndetse uwo muhanda ukaba ufite amatara yo ku muhanda awucanira.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite aho uhurira n'indi mihanda, imbere hakaba hegereye imirongo y'umweru iteganye iciye muri uwo muhanda ndetse uwo muhanda ukaba unyuramo ibinyabiziga. Uwo muhanda hafi yawo hakaba hari ibiti bihateye ndetse hakaba hari n'ikiraro.

Umuhanda wa kaburimbo urimo imirongo y'umweru iteganye, uwo muhanda ukaba uri kunyuramomo ifite ibara ry'ubururu iruhande rw'umuhanda hakaba hari inzira inyuramo abagenzi ndetse haruguru yayo hakaba hegereye amazu atuwemo n'abantu hepfo y'umuhanda hakaba hari kunyuramo moto ndetsekaba yegereye n'ibiti.